Umuturage hano ari mu cyayi arimo kugenda agikoreramo ariko kandi anareba uburyo ki yasaruramo.

Ahangaha bari mu bikorwa byo gusarura ibirayi, bimwe barimo kubishyira mu ndobo zabugenewe, kugira ngo bigezwe ahakwiriye gushyirwa umusaruro.

Bamwe mu baturage, bamwe bari kwitegura igihembwe cy'ihinga, barimo kuvanamo ibitanoze mu murima babyigiza ku ruhande, abandi barimo guhinga.

Ahaha abantu barimo gucuruza voka, babareba avoka nziza zishobora koba zajyanwa ku isoko mpuzamahanga, ibintu ubona ko bishimishije.

Mu murima amaterasi ndinganire, abaturage bari mu bikorwa bitandukanye birimo ibikorwa byo kuhira aho biteguye guhinga.

Imparage iri mu kagera muri pariki y'Akagera urabona ko ni kimwe mu binyabuzima bikurura abantu benshi cyane muri pariki y'Akagera.

Nari mu bworozi bw'inkoko cyane, inkoko ubona ko ziri mu kiraro cyabugenewe k'inkoko, ya, ni ibyo.

Mu bigaragara hano hari inka nyinshi cyane ku musozi ubona ko hari inka zibyagiye ikirere ni kiza giteye amabengeza.

Ahasarurirwa imyaka irimo ibigori, ibigori biri ku ihima bimwe byatangiye guhungurwa, ibindi ntibirahungurwa, urabona ko umusaruro wabonetse.